Icyumba kinini cy'inama za leta, harimo abantu benshi bitabiriye inama ndetse na gahunda za leta, bose bahanze amaso umuntu uri imbere uri kubabwira ibijyanye na serivisi bitabiriyemo.

Urubyiruko rw'abasore n'inkumi, bari mu cyumba cy'inama, harimo umwe wahagurutse afite miyikorofone cyangwa indangururamajwi, ari kuvuga ku bijyanye na serivise baje gufatira aha. Bambaye imipira isa, kandi bose bateze amatwi.

Abantu benshi bicaye bahanze amaso abayobozi, hari amakamera bigaragara ko hari abanyamakuru, bari mu nyubako ifite irangi ry'umuhondo, ikaba ifite porojegiteri ikaba ifite n'amatara yaka umuhondo.

Umuyobozi wa polisi, ari gushishikariza urubyiruko kwirinda sida, yababwiye ko sida iracyahari, duhagurukire kuyirwanya. Yabivuze mirongo itatu n'imwe z'ukwa gatanu bibiri na cumi na karindwi.

Abagabo bane bicaye imbere y'abandi, inyuma yabo hari igitambaro cya porojegiteri bisa nkaho bafite gahunda bari gusobanurira ababakurikiye n'ababateze amatwi.

Abantu batatu, harimo umugabo umwe abagore babiri ndetse n'undi ugaragara intoki gusa, mbere yabo hari amazi buri umwe mbere hari indangururamajwi, mudasobwa bigaragara ko bari mu nama cyangwa bari gufata izindi serivise za leta.

Icyumba cy'inama kicayemo abayobozi batanu, imbere yaho hicaye ababakurikiye, imbere y'abo bayobozi hari ibinyobwa byo mu ruganda rw'inyange ari byo ji ndetse n'amazi.

Abanyeshuri bari mu ishuri bambaye impuzankano isa y'imipira y'ubururu, imbere yabo hari umwarimu wabo ari kubasobanurira ku bijyanye n'ibyo bari kwigaho, ndetse ku ruhande bisa naho bafite abatumirwa bicaye imbere, bambaye imyambaro y'umweru na yo isa.

Abantu batatu bayoboye imbwirwaruhame y'abantu tutari kubona, umwe afite mikorofone, abandi bari kumva ibyo ari kuvuga ndetse bose icyo bahuriyeho n'uko bambaye linete.

Icyumba k'inama, kirimo abantu barindwi, umuryango w'icyumba urarangaye, icumba gifite urukuta rw'umweru, abantu barimo basa n'aho bahanze amaso umuntu uri kubaha amabwiriza, kandi bose bafite mudasobwa.

Tente nini irimo abantu benshi bakurikiranye umuhango runaka, urimo abayobozi b'inzego z'umutekano, harimo abayobozi b'inzego zitandukanye, harimo ameza afite igitambaro cy'umweru, ateretseho ururabo ku ruhande hari ajenda bigaragara ko abicaye kuri iyi ntebe aribo bashyitsi bakuru b'inama cyangwa abayoboye muhango.

Abasore bagera kuri batandatu cyangwa barenga, bicaye ahantu muri sale cyangwa mu cyumba cy'inama bagaragaza ko bakurikiye bitewe na gahunda cyangwa bitewe na serivisi bari guhabwa, bagaragaza ko bakurikiye kandi bambaye impuzankano isa.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako, harimo abagabo bambaye amakoti, amakaruvati, abagore bakenyeye abandi bambaye amakanzu bahagaze imbere y'inyubako nziza ifite amapave, ajya kuba ikigina ndetse n'inyubako igiye yanditseho Kigali n'andi magambo.

Abagore babiri n'umugabo umwe, bicaye mu cyumba cy'inama y'umugore umwe hari mudasobwa, bose imbere yabo hari mayikorofone, ziri ku meza atukura, inyuma yaho hari igitambaro cyanditseho Kigali yacu Kigali ikeye n'ibindi.

Abantu benshi bicaye buri umwe ari kuri mudasobwa ye, bigaragara ko bafite ikiganiro bakurikiye ndetse buri umwe yambaye ekuteri mu matwi ye.

Itangazo rya RURA Rwanda ritumenyesha ko bibujijwe kwishyura ukoresheje amafaranga yo mu ntoki ntibyemewe. Ubu ni ukwishyura ukoresheje ikarita. Ni yo mpamvu bigaragaza ko gukoresha amafaranga bitemewe ariko gukoresha ikarita byemewe.

Kwigaragaza ku bushake, uyu munsi ni wo munsi wa nyuma wo kwigaragaza kwigaragaza ku bushake, garagaza imisoro utamenyekanishije mbere ya bibiri makumyabiri na gatatu, ukurirweho amande n'inyugo z'ubukererwe, tariki ntarengwa makumyabiri n'eshatu z'ukwa cumi bibiri na makumyabiri na kane, iryo ni itangazo ryatanzwe na Rwanda Revenue Authority.

Igiti cy'amashanyarazi cyangwa ipoto y'amashanyarazi, inyuranyijeho insinga zitandukanye, izitwara umuriro mu cyerekezo kirekire, iziha umuriro abaturage bahaturiye, ku ruhande rwaho hari ibirabyo, inyuma yaho hari inzu bihakikije.

Akazu kicaramo abantu bategereje imodoka mu gihe zitarabageraho inyuma yaho hari inzu ifite amakaro ya kakeme yaho hari ipoto y'amashanyarazi ifite insinga zitandukanye bakaba abantu bari kugendagenda impande yaho hakaba imodoka y'umweru k'umuhondo ndetse n'imodoka y'umukara n'ibindi.

Igipangu cy'amatafari ahiye gikikije inzu y'umweru ya kadasiteri hanze y'igipangu hari ipoto y'amashanyarazi itanga umuriro ku baturage ndetse no ku matara yo ku muhanda hakaba ibiti byinshi bikikije urwo rugo, hakaba umuferege ujyana amazi ndetse n'umuhanda wa kaburimbo ku ruhande imbere.

Inyubako ifite ahantu abantu bategererereza yo kwa muganga, aho abantu baba bategereje abandi batonze umurongo bari kuvugana na muganga ku by'uburwayi bwabo, ku ruhande hari akagare k'amapine, hakaba umugabo uri kureba muri telefoni ndetse n'abandi bantu bicaye.

Inyubako ngari, zifite ubusitani bunini, zifite aho kwanika imyenda, zifite amabati atukura ndetse kandi zifite n'ibiti biteye ku ruhande, imbere haparika imodoka, iyo witegereje neza usanga iyi nyubako ishobora kuba ari ibitaro cyangwa ikaba inzu y'abatishoboye.

Inyubako irambuye igaragaza abantu bicaye abandi bahagaze, bisa naho bategereje serivisi z'ubuvuzi, hari kizimyamuriro iri iruhande rw'umuntu wambaye imyenda y'amaroza, hari intebe ndende zicarwaho n'abantu benshi.

Inyubako nziza, ifite amakaro y'umukara ikagira irangi ryo ku rugi ry'umweru ikagira iryo ku rukuta ry'umuhondo, ikagira kizimyamwoto y'umutuku, imbere ikagiramo udutajeri turiho ibintu n'ibindi byinshi...

Itegeko ngenga nimero ya kane bibiri na cumi akarongo kaberamye onu, ryo kuwa cumi na kabiri z'ukwa munani, bibiri na cumi rihindura kandi ryuzuza itegeko ngenga nimero makumyabiri n'icyenda akarongo kaberamye bibiri gatanu ryo kuwa mirongo itatu na rimwe z'ukwa cumi n'abiri bibiri gatanu, rigena inzego z'imitegekere y'igihugu cy'u Rwanda. Twebwe Polo Kagame, Perezida w'u Rwanda.

Kaminuza zose ku Isi zifuza ko abanyeshuri batangiye kwiga ari nabo basoza, kugira bazabashe kubona impamyabushobozi ya kaminuza uko batangiye, iyo bigezweho bambara umwambaro ubyemeza, bagahabwa n'inyemezabushobozi y'uko babigezeho.

Komite nyarwanda, iba igizwe n'abaturage ndetse n'ababahagarariye, aho ababahagarariye bitabira inama zitandukanye, cyangwa bakaba bahagarariye abandi mu bikorwa byinshi bitandukanye. Igihe runaka bakazaza bakababwira ibyavuye muri iyo myanzuro bitewe n'ibyo banditse mu dukayi ngendanwa.

Umugabo winzobe ufite amatwi manini yambaye ikoti ry'ubururu n'umukara, inyuma ye bigaragara ko hari abandi bantu ariko batagaragara neza.

serivisi za leta zitangwa ku mfungwa aho zitabiriye ibikorwa rusange ziri kumwe n'abazihagarariye ndetse kandi zigahabwa bimwe na bimwe bizifasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Itegeko nimero mirongo itatu, akarongo kaberamye bibiri na karindwi ryo ku wa gatandatu z'ukwa karindwi bibiri na karindwi rigena imiterere n'imikorere ya komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu.

Icyumba cyicayemo abagabo batatu, babiri bafite imbere yabo mudasobwa, undi umwe afite akayu imbere ye, ibasa naho bari kuganira ku kintu kijyanye na serivisi za leta.

Izi kizimyamwoto zifasha mu kuzimya umuriro ahantu henshi hatandukanye ndetse ziri mu byiciro bitandukanye hari ingufi hari ndende hari izizimya umuriro usanzwe watewe n'ibintu by'amavuta ndetse n'ibindi bitandukanye ndetse ziri mu bwoko bwinshi cyane.

Inyubako nini ya polisi y'u Rwanda, ishami rikuru rishinzwe iby'umutekano mu gihugu, icyapa kigaragaza iby'ishami rya polisi rishinzwe iby'ibizamini no gutwara ibinyabiziga mu buryo bw'ikoranabuhanga. Imbere yayo hari parikingi iparitsemo imodoka zitandukanye ndetse n'abantu bahagaze imbere y'umuryango benshi.

Mu cyumba cy'itora haba harimo ushinzwe amatora ndetse n'abatora n'abagenzi n'abagenzuzi b'icyumba cy'itora, abo bose baba barimo bafasha utora kugira ngo abikore kandi bigende neza binyura mu mucyo.

Perezida Kagame mu bikorwa byo kwiyamamaza by'umuryango FPR ndetse n'abaturage benshi bitabiriye uwo muhango, hari n'abarinzi be bigaragara ko akunzwe kandi ashyigikiwe cyane.

Abagore banini bane, bakikijwe n'idarapo ry'u Rwanda, hejuru yabo hari ikadiri irimo ifoto ya nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame, inyubako barimo ifite amakaro y'umweru ndetse n'umutuku.

icyumba cy'inama kirimo abantu benshi bose bafite mudasobwa imbere yabo bafite amazi imbere hari abayobozi bayoboye inama hari amateleviziyo anyuraho ibiri kubera muri icyo cyumba muri icyo cyumba cy'inama cyo byose nta na kimwe banyuze ku ruhande.

Imodoka nini itwara peteroli cyangwa esansi iri muri kaburimbo, ku ruhande rwayo hari ibiti birebire, hino hari umuhanda w'abanyamaguru, iruhande rwawo hari umuferege utembana amazi.

Umugabo ufite ingorofani nini itwarwaho ibicuruzwa, akora imirimo y'amaboko ari kumwe n'undi ndetse ku ruhande hari abamotari hakaba n'abandi bagabo bambaye bote n'abandi bagenzi batandukanye.

Ni mu mugoroba, aho hari imodoka ziri gutambuka zicanye amatara magufi, hari abantu mu tuyira tw'abanyamaguru, hari n'izindi modoka ziparitse ku mpande z'umuhanda, ndetse hari igicu kijimye wagira ngo hagiye kugwa imvura.

Imodoka nini zitwara abagenzi mu Mujyi wa Kigali zitwa KBS, zikora amasaha menshi, iri mu muhanda, itwaye abagenzi nijoro, icanye amatara, ifite ibara ry'icyatsi, inyuma yaho hari amapoto maremare cyangwa ibyuma birebire bitwara umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye by'igihugu.

Moto y'amapine atatu, ariyo yitwa rifani, imodoka ya rava iri kugenda mu muhanda, biri mu cyerekezo kimwe ndetse ikaba uwo muhanda ni kaburimbo, inyuma yaho hari abantu bari kugenda n'amaguru.

Imodoka nini ya kwasiteri, itwara abagenzi, iri mu muhanda usa n'umanuka, umuhanda ni uwa kaburimbo, imbere y'aho hari umumotari, uhetse umugenzi wambaye kasike y'umuhondo, ku ruhande hari uruzitiro rw'udusenkenge tw'ubururu, ndetse n'ibiti ku ruhande rw'urwo ruzitiro.

Ikinyabiziga cy'ibinyamitende itatu ari cyo howo, gifite ibara ry'umutuku n'ivatiri, ifite ibara ry'umweru, biri kubisikana mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande hakikijwe n'ibiti, hakaba uruzitiro rukikijwe n'akayungirizo k'ubururu.

Uyu mugabo yambaye imyenda igaragaza umutekano ku muhanda n'ingofero, afite ingorofani irimo umufuka w'ubururu wanditseho amagambo y'Igishinwa ndetse iyi ngorofani irashaje cyane.

Ikinyabiziga cy'ibinyamitende ibiri kiri kumanuka mu muhanda wa kaburimbo, kiri kunyuranamo n'umumotari uzamuka utwaye moto ya bogiseri. Iruhande rw'umuhanda hari ibiti ndetse inyuma y'ibyo biti harazitiye.

Ikinyabiziga k'ibinyamitende ibiri, kiri mu muhanda gifite shitingi hejuru itwikiriye, ibyo gitwaye, kuruhande hari umugabo uri kumanuka mu kayira k'abanyamaguru, ku ruhande rwaho hari ibiti bitanga umuyaga.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imodoka yigisha gutwara ibinyabiziga, ku ruhande hakikijwe n'ibiti, amapoto y'insinga z'amashanyarazi ndetse n'ibyapa biranga ibindi bintu.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru harimo abakinnyi benshi bari gukina, bamwe bambaye utujiri abandi bambaye amajezi asanzwe, gifite amazamu abiri manini agezweho, ku ruhande rw'iki kibuga hanyanyagijwe utubuye tumeze nk'umucanga.

Ikibuga cya Basiketi, gifite ahantu hateganyirijwe abantu, bareba umukino, gifite igisenge kirinda izuba n'imvura, hari ubusitani butoshye, imbere y'icyo kibuga bigaragaza ko ari ahantu hateye neza, yego.

Icyapa kiranga ko imbere hari imashini cyangwa icyuma gifata amafoto ku binyabiziga byarengeje umuvuduko wa mirongo itandatu ku ijana, ku ruhande rwaho hari imiyenzi, hari jaride, ndetse imbere hari umuhanda wa kaburimbo, ku ruhande rwa kaburimbo hari umuhanda w'abanyamagu, iruhande rw'abanyamaguru hari umuferege ujyana amazi.

Icyapa gisobanura ko bibujijwe cyangwa bitemewe kunyuranaho kw'imodoka mu gihe ziri kugenda, uruziga rwacu rugizwe cyangwa icyapa cyacu kigizwe n'ibara ry'umutuku n'umukara ndetse n'umweru.

Icyapa cyemerera abantu kwihuta cyangwa gukomeza, icyapa gifite ibara ry'ubururu n'ikirango cy'umwambi cy'umweru.

Umuhanda w'igitaka ku ruhande ufite parikingi rw'izindi modoka cyangwa ufite aho waparika imodoka, hari abantu bari kugenda n'amaguru, hari moto iri kuza muri uwo muhanda w'igitaka, ku ruhande hakikijwe inzu y'umweru, imbere hari ibiti...

Inzu y'ubucuruzi ifite amabati y'umutuku, igeretswe rimwe, ifite farumasi, ikagira aho bacururiza amata cyangwa aho bayakusanyiriza, ariho hitwa meriki zone ndetse ikaba iri ku muhanda wa kaburimbo, iruhande rwaho hakaba hari ipoto y'amashanyarazi, hakaba n'ikindi gipangu kirimo izindi nzu zitandukanye.

Agace ka cumi na kabiri karimo inyubako ndende zigeretswe zubakishijwe amatafari zifite igice cyo kumadirishya kiriho irangi ry'umweru amadirishya y'umukara kuruhande hari ubusitani bumeze neza burimo ibiti byinshi b'yinganzamarumbo.

Remera ni ahantu hari inyubako nziza nini, zubatse kijyambere hari ubusitani bugari, hari ibiti byinshi, hari n'izindi nyubako zikiri kuzahazamurwa hifashishijwe ibimashini byabugenewe mu bwubatsi byubaka amazu maremare.

Ni mu ijoro, mu muhanda wa kaburimbo, arimo amatara acanye cyane, atanga urumuri, hari isangano ry'imihanda, rigitandukanijwe n'ikimenyetso, gifite ibara ry'umutuku ,ndetse n'umweru.

Umumotari utwaye umugenzi bambaye kasike z'umweru, bari kuri moto itwarwa n'amashanyarazi, bari mu isangano ry'imihanda, hirya hari guturuka abandi bamotari, hari izindi modoka ziri kuzamuka kandi muri uyu muhanda harimo n'utujaride turimo ibiti by'imikindo no ku ruhande hari ibindi biti byinshi.

Imihanda ya kaburimbo migari ifite amasangano arimo imodoka zigenda, ku ruhande hari imikindo, hagati hari utujaride no ku ruhande hari jaride...